Umukozi ushinzwe gukora amashanyarazi. Arafungura igikoresho cy'amashanyarazi , afite turunevisi igizwe n'amabara y'umuhondo n'umukara.

Hari abantu icumi barimo abadamu babiri n'abagabo umunani, harimo umwe ukingirijwe n'inyingi, bigaragara ko har'icyo bari kuganira imbere y'iyi nyubako.